Mu nyubako harimo udufuka tune, twanditseho amagambo NPK cumi na gatanu cumi na gatanu. Bigaragara nk'aho ari udufuka turimo ifumbire mvaruganda, bifashisha mu guhinga imyaka runaka.

Mu nyubako hagati harimo akabati karimo amacupa yo mu ibara ry'umweru n'umutuku ndetse harimo udukarito dutoya, bigaragara nk'aho ari inyubako babasha gucururizamo imiti itandukanye.

Mu nyubako harimo akabati karimo uducupa two mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umutuku, bigaragara nkaho ari inyubako bacururizamo imirama ya karoti ndetse n'amashu.

Mu nyubako harimo akandagira ukarabe itetseho ibase y'ubururu, imbere hari akabati karimo amacupa nk'ibara ry'umweru, icyatsi, umutuku ndetse n'udukarito, bigaragara nkaho ari inyubako bacururizamo imiti itandukanye.

Umuntu wambaye isarubeti yo mu ibara ry'ubururu uhetse ipompo, wambaye uturinda ntoki tw'umutuku, bigaragara ko ari mu murima urimo ibigori, arimo gutera umuti wica udusimba ndetse ufasha imyaka gukura.

Abagore benshi cyane barimo guhinga bafite amasuka n'indobo, abagabo na bo bahagaze imbere barimo gutema ibyatsi bigaragara nkaho ari abaturage barimo guhinga ndetse bashaka gukora akarima k'igikoni.

Inyubako irimo akabati ko mu ibara ry'umweru rifite amacupa ari mu ibara ry'icyatsi, umutuku ndetse n'umweru, bigaragara nkaho ari inyubako igurisha imiti yo mu buhinzi n'ubworozi.

Mu murima harimo ifumbire bigaragara nkaho ari umurima bagiye guteramo imyaka itandukanye: yaba imbuto, imboga cyangwa se ibihingwa ndandurarugo.

Imbuto bifashisha mu guhinga intoki ziri hasi, bigaragara nkaho bagiye kuzitera kugira ngo zizabyare ibitoki binini cyane.

Umurima urimo ibihingwa byinshi bitandukanye, aho imbere yaho hari igihingwa cy'ikigori kitari cyera neza, inyuma yaho hari intoki ndetse n'ibindi bihingwa.

Umurima urimo ibihingwa bifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, bigaragara nkaho ari umurima utewemo ibigori byiza cyane ariko bitari byera neza.

Ibitoki byinshi bitandukanye ,inyuma yaho hahagaze umuntu w'umugabo ubiteruye, bigaragara nkaho ari umuntu uvuye gusarura intoki.

Umurima urimo ibihingwa byinshi cyane, harimo ibigori, ibihaza, intoki ndetse ugiye utandukanyijwe n'amabuye abitandukanya, hirya yaho hari amashyamba.

Agakarito karimo voka icyenda, bigaragara nk'aho ari voka bamaze gusarura, zitegerejwe ko bazibika kugira ngo zizashye babone kuzirya.

Mu murima munini cyane, utewemo imbuto nyinshi ndetse n'ibihingwa bitandukanye, hakaba hateyemo n'urutoki runini cyane.

Umurima utewemo isombe ndetse n'imyumbati, iruhande rwaho hatewe ibyatsi ndetse n'ibihingwa bitandukanye, hirya yaho hatewe amashyamba.

Amashashi yo mu ibara ry'ubururu arimo ibyatsi byo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo, bigaragara nkaho ari amashashi yifashishwa mu kubika ndetse no gusoroma icyayi.

Igiti gifite imbuto zo mu ibara ry'umuhondo ndetse no mu ibara ry'icyatsi, bigaragara nkaho ari ipapayi imwe ya kizungu ihiye.

Umugabo wambaye ikabutura ya kaki ndetse n'agapira, uhagaze mu murima, utewemo intoki ndetse harimo ibishyimbo na soya, iruhande rwayo, hatewe ibiti bitandukanye.

Igiti kiri mu ibara ry'icyatsi, gifite imbuto nyinshi ziri mu ibara ry'icyatsi, iruhande rwaho hari umurima utewemo ibigori byinshi, bigaragara nk'aho ari mu umurima urimo ibihingwa bitandukanye.

Icupa ririmo ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu byanditsweho zinc solvet liquid, igaragara nkaho ari icupa bifashisha mu kubika imiti y'amatungo.

Icupa riri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, iruhande rwaho hari agakarito ko mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru byanditsweho amagambo "Carasil injection" bigaragara nk'aho ari icupa bifashisha babika umuti.

Abaturage benshi bambaye imipira y'icyatsi, imipira y'umutuku, imipira y'ubururu ndetse n'umuhondo, barimo guhinga bigaragara nkaho ari abaturage barimo gukora umuganda. Inyuma yaho hatewe amashyamba ku musozi.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi, ipantaro y'umukara, ufite isuka urimo guhinga, mu murima arimo guhingamo, hateye isombe ndetse n'imyumbati. Iruhande rwe hateye ibigori ndetse n'intoki.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, urimo guhinga n'uwambaye ingofero, umupira w'umutuku ndetse n'ikabutura y'umutuku n'mweru, barimo guhinga umurima, iruhande rwabo hari umurima urimo ibigori ndetse n'intoki.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara, urimo gusoroma ibishyimbo byumye kandi byeze neza, bigaragara nkaho inyuma ye hari amashyamba ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Inyubako yubakishijwe amabati atukura iruhande rwaho hahagaze igare ndetse aho ryanitsemo ibigori kugira ngo bibashe kuma, mbere yo kubitonora.

Umugabo uri mu murima utewemo intoryi, ukikijwe n'intoki, arimo kugenda afata ibyatsi birimo kugenda bikura, abikura ku ntoryi.

Mu kibaya gitewemo intoki, imbere yaho hari inyubako isakajwe amabati ndetse ihomeshejwe icyondo. Inyuma yaho nanone hari izindi nyubako nyinshi.

Imifuka myinshi itandukanye irimo ibinyamisogwe byinshi harimo ingano, ibishyimbo, impungure, amasaka ndetse na soya, bigaragara nk'aho ari isoko bacururizamo imbuto ndetse n'ibinyamisogwe.

Imifuka myinshi irimo ibinyamisogwe byinshi bitandukanye, harimo ibishyimbo, ibigori, amasaka, impungure, ingano bigaragara nkaho ari umusaruro weze neza.

Mu nyubako harimo udufuka twinshi dutandukanye twanditseho amagambo super, handitsweho bola ndetse na MK maise milazi, bigaragara nk'aho ari dufuka, bashyiramo ifu ya kawunga.

Umuntu wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, uhagaze imbere y'igiti cy'amatunda, bigaragara nkaho ari umuntu urimo gusarura amatunda yeze.

Ku muhanda iruhande rwawo, hatewe intoki, ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye. Inyuma yaho hari inyubako isakajwe amabati.

Imifuka yo mu ibara ry'umweru irimo ibiti by'avoka byinshi cyane, harimo n'itaka ribifasha kugira ngo bikure neza, bigaragara nkaho ari ahantu babasha gutegurira ibiti byo kujya gutera.

Ku meza hateretse karoti nyinshi cyane, hateretse imboga z'icyatsi, hariho ibase irimo ibitunguru, bigaragara nkaho ari isoko bacururizamo imboga n'imbuto.

Umurima utewemo amashu harimo abagabo bigaragara nkaho barimo kugenda bakuramo ibyatsi bituma amashu atera neza. Ruguru y'amashu hatewe intoki ndetse n'ibigori.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, harimo intoryi, harimo ipapayi ndetse n'ibijumba, iruhande rwaho hari agasozi gateweho amashyamba.

Indabo nyinshi zitewe ziri mu bwoko butandukanye, harimo indabo zimeze nk'intoki ndetse n'izindi ndabo zo hasi cyane ziri mu ibara ryiza.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hari inyubako isizwe irange ry'ubururu ndetse n'irange ry'umweru, iruhande rwaho hatewe indabo nziza cyane.

Umurima urimo ibihingwa byinshi bitandukanye. Harimo karoti, harimo imboga, ndetse hirya y'aho hateye ibigori. Bigaragara nkaho ari umurima bifashisha, mu guhinga imbuto, ndetse n'imboga.

Inyuma y'inyubako yubakishijwe amabati y'ubururu ndetse n'amatafari ahiye, hari indabo nziza cyane ziri mu ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Umurima urimo intoryi zitari zera neza cyane, ufite ibyatsi byumye bigaragara nk'aho bamaze gusasira intoryi. Kugira ngo zibashe gukura ndetse no kwera neza.

Ibyatsi biririmo ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara rya prigand, biteye imbere y'urupangu rwubakishijwe amatafari ahiye, ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ipoto riri mu ibara ry'umweru.

Mu murima hatewemo ibigori, harimo intoryi ndetse n'imyumbati, inyuma yaho hari agasozi kariho ibiti by'amashyamba.

Abagore babiri, umwe wambaye ingofero n'umupira w'umukara ndetse n'igitenge, undi wambaye agapira k'umweru ndetse n'agasengeri k'umukara, bafite intoryi mu biganza byabo, bigaragara nkaho bavuye gusarura intoryi.

Inyubako itewe irangi ry'umweru, imbere yaho harimo umurima uteyemo imbuto nyinshi zitandukanye, aho harimo karoti, ipapayi ndetse hakaba harimo n'avoka.

Ku meza hateretse ibihaza byinshi cyane biri mu mabara atandukanye haririmo icyatsi ndetse n'ibara ry'umuhondo, bigaragara nkaho babivanye mu murima bakaba bagiye kubigurisha.

Umufuka urimo ishashi yo mu ibara ry'umutuku urimo amatunda, undi mufuka w'umweru na wo ufite ishashi ry'umutuku urimo amapera, bigaragara nk'aho ari isoko bacururizamo imbuto.

Igihingwa kiri mu ibara ry'icyatsi, gifite amababi y'icyatsi ndetse gifite n'imbuto, bigaragara nkaho ari umurima uteyemo intoryi, iruhande rwaho hari amashyamba.

Umurima urimo ibihingwa byinshi bitandukanye, harimo karoti, imboga ndetse iruhande rwaho hatewe ibigori biri hafi kwera.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku, uwambaye umupira w'umukara, bahagaze mu isoko ririmo ibihaza, ndetse n'ibijumba, bigaragara nkaho ari isoko bacururizamo imboga, imbuto ndetse n'ibindi biribwa.

Agakarito karimo imboga ndetse n'imbuto zitandukanye, harimo amaronji, imyembe, ibinyomoro , inanasi, pome ndetse na watermelon, bigaragara nkaho ari isoko bacururizamo imboga n'imbuto.

Umugore wambaye itaburiya y'ubururu ndetse wambaye n'ikanzu y'umuhondo uri kumwe n'undi mugore witeze igitambara mu mutwe wambaye n'igitenge cy'icyatsi, barimo barareba imboga zitewe mu karima k'igikoni bigaragara nk'aho barimo kugenda bakuramo ibyatsi.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku uri mu murima uhinzwemo ibinyomoro byinshi cyane bitari byera, arimo kureba ko hari ibinyomoro byeze, iruhande rwaho hatewe ibindi biti.

Akabati karimo ibitunguru by'umutuku, harimo ibase y'umutuku, karoti ndetse harimo n'umufuka urimo amashu.

Umugore uri kumwe n'abana babiri, bari hagati mu murima utewemo ibishimbo ndetse utewemo na soya, harimo intoki, barimo kubagara bakuramo ibyatsi.

Mu muririma urimo umugabo wambaye ipantaro ya kaki ndetse n'agasengeri k'umuhondo, ufite inyanya zitukura mu biganza, iruhande rwe hari akasabane karimo inyanya nyinshi cyane. Bigaragara nkaho arimo gusarura inyanya.

Agakarito karimo voka nyinshi cyane, zikikijwe mu mufuka, imbere yaho hari imifuka myinshi cyane, bigaragara nkaho ari voka zihiye.

Inyanya nyinshi cyane ziri mu ibara ry'umutuku ziteretse ku mifuka y'umweru, iruhande rwazo hariho imigozi nayo iri mu ibara ry'umweru.

Umurima utewemo intoryi, iruhande rwawo hari ibyatsi ndetse inyuma y'aho hatewe karoti, amashu, ndetse n'amashamba abikikije.

Inyanya zo mu ibara ritukura ziteretse ku kantu k'umweru, bigaragara nkaho ari inyanya bavuye gusarura bitegura kujyana ku isoko cyangwa se kugira ngo baziteke.

Inyuma y'igipangu hatewe ibiti byinshi harimo igiti cya voka gifite voka zikiri ntoya zitari zera, bigaragara yuko imbere yaho hariho urutoki.

Umurima urimo indabo zo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'irindi bara rya brugand, iruhande rw'aho hari inyubako yubakishijwe amatafari ya ruriba ndetse n'urugi rusizwe irangi ry'umweru.

Umugabo wambaye umupira wa kacyi n'ipantaro ya kacyi uhagaze mu murima urimo ibinyomoro arimo gucucira akoresheje ipombo irimo amazi, imbere ye hari agasozi gateweho imyaka myinshi ndetse n'urutoki.

Umugore wambaye umupira w'umutuku, arimo kuvoma amazi ku mugezi ayajugunya bigaragara nkaho arimo kugenda avomererera imyaka. Inyuma ye hahagaze undi mugabo wambaye umupira w'umutuku.

Inyubako yubakishijwe ibiti ndetse n'amabati y'umweru n'umutuku, iruhande rwaho hatewe ibiti by'amashyamba, by'inturusu ndetse hahinzwe n'intoki.

Agasozi gateweho ibihingwa byinshi bitandukanye, ibihingwa ngandurarugo ndetse n'ibihingwa ngandurabukungu, harimo intoki ndetse n'imbuto.

Icyumba kirimo inkoko nyinshi cyane, bigaragara nkaho ari inkoko barimo kugabura kandi babasha gukuramo umusaruro uhagije.

Abaturage benshi bahagaze barimo kureba ingurube nyinshi cyane bigaragara nkaho ari abaturage bo mu itsinda baje kugabana ingurube.

Icyumba kirimo inyamaswa z'ingurube, bigaragara nk'aho ari icyubma bifashisha mu korora amatungo atandukanye y'ingurube.

Umurima uririmo indabo nyinshi zibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi, imbere yaho hari igisima ndetse n'ihene ebyiri zirimo ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara.

Inyubako ihagazweho imbere yaho n'umugore wambaye igitenge ufite umwitero mu mutwe, imbere ye hari ihene ebyiri zihaziritse bigaragara nkaho yari arimo kuziha ubwatsi.

Ihene ziri mu kiraro zirimo kurisha ibyatsi, bigaragara nkaho ari umuntu worora amatungo ndetse ubasha no guhinga ibihingwa bitandukanye.

Icyumba kirimo ingurube hasi hari ibyatsi ndetse n'inkoni, bigaragara nkaho ari ikiraro cy'ingurube kandi barimo gushiramo ibyatsi kugira ngo bitange ifumbire.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku, witeze igitambara cy'umutuku ndetse n'umugabo wambaye akajire n'umupira w'umukara uri kumwe n'undi musore, bahagaze imbere y'ibibuti by'inkwavu.

Ikiraro kirimo ihene ndetse harimo n'inka, bigaragara nkaho ari umuntu worora amatungo, inyuma y'ikiraro hateye intoki nyinshi cyane.

Umuntu wambaye umupira n'ikabutura by'ubururu, uhagaze iruhande rw'ihene ziziritse ku biti ndetse zifite ibyatsi zirimo kurisha, bigaragara nk'aho arimo kuziha ibyatsi.

Imbere y'inyubako ihomesheje icyondo ndetse n'indi isize sima, hubatse ikiraro harimo inka, iruhande rwaho hariho ihene bigaragara nkaho barimo kuzigaburira ibyatsi.

Icyumba kirimo indobo zo mu ibara ry'umweru, imifuniko yo mu ibara ry'umutuku ndetse harimo n'inkoko, bigaragara nk'aho ari icyumba bafashisha mu korora inkoko za kijyambere.

Mu cyumba harimo ingurube iryamye hasi, bigaragara nkaho ari ingurube irimo konsa abana bayo kugira ngo baticwa n'inzara, ahubwo babashe kubona ibibatunga.

Ingurube irimo kurya ibiryo, iri mu kiraro cyayo bigaragara nkaho ari ingurube barimo guha ibyatsi ndetse n'ibiryo byo kurya.

Mu muhanda hariho ihene eshanu zose ziziritse amaboko y'imbere, bigaragara nkaho ari ihene bajyanye mu masoko kuzigurisha.

Ihene bigaragara nkaho bayitemye ariko bakaba veterineri yayidoze, iri mu byatsi irimo kurisha barimo kuyiragira.

Inyubako nini cyane irimo amabido y'umweru harimo amazi, ndetse harimo n'inkoko nyinshi cyane, bigaragara nk'aho ari inyubako bifashisha mu korora inkoko za kijyambere.

Ihene ihagaze iruhande rw'ibyatsi ndetse inyuma yaho hari ibiti byinshi cyane byumye, hejuru hamanitse ibigori byumye batarasoroma cyangwa ngo babihungure.

Ingurube iri imbere y'inyubako ihomesheje icyondo ndetse iruhande rwaho hari igiti gifite amababi yo mu ibara ry'icyatsi, imbere yaho hari amashashi atandukanye ndetse n'imifuka.

Inka irimo konsa inyana yayo, iruhande rwaho hatewe ibiti ndetse n'ibihingwa byinshi bitandukanye, harimo n'intoki nyinshi cyane.

Umurima munini urimo amashu yeze, iruhande rwayo hateye ibigori ndetse hateye intoki, bigaragara nk'aho ari imirima bifashisha mu guhinga ibihingwa bitandukanye.

Ibiti biri mu mashashi y'umukara, bitandukanye kandi byinshi, bigaragara nkaho ari ahantu babasha kwinariza ibiti bitandukanye.

Mu murima harimo umugabo wambaye ingofero y'umukara, ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, urimo gusoroma ibishyimbo byumye...

Ibigori byumye cyane, hejuru yaho hariho ihema ry'ubururu bigaragara nkaho ari ubwanikiro bashyiraho ibigori kugira ngo bibashe kuma mbere yo kubiyungura ngo bivemo impungure.

Umugabo wambaye iserubeti y'ubururu, wambaye na ga, urimo gusuzuma inka, bigaragara nkaho ari veterineri urimo kureba inka ikibazo yaba yagize. Iruhande rwe hatewe ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abantu bafite imakayi ndetse n'impapuro z'umweru, bambaye isarubeti y'ibara ry'icyatsi, bafite inka barimo kuyishorera bigaragara nkaho bayijyana mu kiraro cyayo.

Umuntu wambaye bote z'umukara ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru, afite inka arimo kuyoza bigaragara nkaho arimo kuyisuzuma ndetse no kuyihanagura.

Inyoni ebyiri ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umuhondo n'umutuku ku munwa. zihagaze ku giti gifite amashami ndetse n'amababi y'icyatsi kibisi.

Ikigona kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, gihagaze ku giti, ku mashami y'igiti, ndetse igiti kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Inyamaswa yo mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, iteruye akana kayo bicaye ku giti gifite amababi y'icyatsi ndetse n'ibara ry'umuhondo, bigaragara nk'aho ari inkende ifite akana kayo.

Inkende iryamye ku byatsi byo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umuhondo, inyuma y'aho hatewe amashyamba.

Inyamaswa y'inkazi y'intare, yicaye mu murima hatewemo ibihingwa byo mu ibara ry'icyatsi, igaragara nkaho irimo kureba ikintu runaka.

Udusimba turi mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara duhagaze ku giti, inyuma yaho hari ibyatsi byo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo bigaragara nkaho ari inkende.